Mu tubari habonekamo inzoga z'amoko menshi habonekamo: pirimusi mitsingi ,nguvu n'izindi nzoga nyinshi cyane ziba zitandukanye. Abantu bashaka kunywa, bajya kunywera muri utwo tubari.

Tugira utubari tuba dutandukanye ,haba utwiyubashye n'uduciriritse ,mu tubari dusangamo ibyo kunywa byinshi, haba hateguye neza cyane, haba hari intebe, hari ameza yabugenewe ,hari amacupa yo kunyweramo n'ibirahuri, haba harimo n'inzoga z'amoko menshi cyane.

Tugira utubari dutandukanye, haba utubari twiyubashye n'utubari duciriritse, mu tubari twiyubashye dusangamo ibyo kurya yadusangamo n'ibyo kunywa, habamo inkoko zitetse, ifiriti habamo umuceri n'ibindi byinshi cyane.

Tugira utubari twiyubashye n'utundi duciriritse, haberamo ibintu byinshi biba bitandukanye, haberamo imyidagaduro, habamo ababyinnyi, abaririmbyi, n'ibyuma bya muzika byinshi cyane.

Tugira utubari twinshi cyane, dusangamo ibyo kunywa biba bitandukanye, n'ibyo kurya. Haberamo imyidagaduro iba itandukanye, habamo abaririmbyi, habamo ababyinnyi n'abandi bantu benshi baharanira ibyishimo by'umuntu.

Mu mabare habamo ibintu byinshi biba bitandukanye :habamo inyama ziba ziteguye neza cyane ,akenshi usanga bazotsa bagashyiraho n'uturungo ku ruhande, bazana n'agasosi, bagashyiraho n'agatsima ,ukarya ugahaga ,ugahembuka rwose.

Tugira utubari duhenze n'utworoheje, mu tubari duhenze habamo ibintu bihenze, bagira n'umwanya w'igikoni, bateka inkoko bakayitegura neza cyane, haba n'amasahani meza cyane, ibirahuri byiza cyane, ibintu bya ho biba bifite isuku nyinshi.

Tugira utubari tuba dutandukanye. Mu tubari hakorerwamo ibintu byinshi: Habamo ibyo kunywa, habamo imyidagaduro iba itandukanye, habamo abaririmbyi baririmba indirimbo nyinshi ziba zitandukanye. Zisusurutsa abantu, abantu bakishima bakanezerwa rwose.

Mu mazu y'ubucuruzi dusangamo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye. Usangagamo imitobe ,dusangamo ama-gaze, dusangamo : amandazi, imineke ,imigati capati n'ibindi byinshi cyane.

Mu mazu y'ubucuruzi dusangamo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye, dusangamo ibikoresho by'imitako cyangwa imirimbo, dusangamo amaherena, amasaha y'ubwoko bwinshi, impeta ziba zitandukanye, byose bituma umuntu agaragara neza cyane.

Tugira inzu z'ubucuruzi zikorerwamo ubucuruzi buba butandukanye:haba abacuruza akabari ,dusangamo ibyo kunywa biba bitandukanye, usangamo inzoga ,amafanta, dusangamo n'inyama z'ingurube ,dusangamo n'amazi yo kunywa n'ibindi byinshi cyane.

Mu mazu y'ubucuruzi dusangamo ibicuruzwa biba bitandukanye, dusangamo amavuta yo kwisiga, ayo guteka, ubuki, amata y'ifu, n'ibindi byinshi cyane dukenera mu buzima bwa buri munsi.

Amazu y'ubucuruzi akorerwamo ibintu biba bitandukanye, bacururizamo imiceri, amavuta yo guteka, insinga ziba zitandukanye. Habamo na sako, abantu bizigamamo bakabikuzamo bakanahemberwamo.

Mu nzu y'ubucuruzi habamo ibintu byinshi bitandukanye dukenera mu buzima bwa buri munsi, urugero nk'inzu bacururizamo imiti ijya ituvura iyo twarwaye.

Mu nzu z'ubucuruzi habamo ibintu byinshi biba bitandukanye, habamo imyenda y'amoko menshi, imyunyu, kawunga, imiceri habamo n'ibindi byinshi cyane.

Mu mazu y'ubucuruzi hakorerwamo imirimo iba itandukanye, hari aho bakorera gutunganya imisatsi ,bagashiramo kanta ,bakayogosha ,bakayisuka bagashyiramo ibintu byinshi ,imisatsi ikaba isa neza cyane rwose, n'umutwe umeze neza cyane rwose.

Amazu y'ubucuruzi dusangamo ibintu byinshi biba bitandukanye, dusangamo inyama z'inkoko, amagi n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye. Ubikeneye wajya kubireba ku mazu y'ubucuruzi, nawe ukihahira.

Amazu y'ubucuruzi abamo ibintu byinshi biba bitandukanye habamo: ibiseke, inkangara ,ibisabo ,inkongoro, inkoko ,urusyo n'ibindi bintu byinshi cyane, habamo n'amashusho atandukanye y'ibintu bakoreshaga hambere.

Mu mazu y'ubucuruzi usangamo ibintu byinshi biba bitandukanye. Usangagamo: amakaramu, amakaye, fanta ,urwembe ,amabahasha ,umuceri, bicuit, bombo, shikarete n'ibindi byinshi cyane.

Mu mazu y'ubucuruzi dusangamo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye, dusangamo amazi yo kunywa, fanta, ji n'ibyo kurya biba bitandukanye dusangamo n'impapuro z'isuku zo bahanaguza abana, dunsangamo n'ibyo kurya harimo: ibirayi, ibijumba, ibitoke, imiceri, kawunga n'ibindi byinshi.

Mu mazu y'ubucuruzi dusangamo ibintu biba bitandukanye, usangamo imyenda y'amoko menshi, usangamo imipira z'imbeho, amashati, amapantaro, amakanzu n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Mu mazu y'ubucuruzi usangamo ibintu biba bitandukanye, dusangamo amakara, amabase, amavuta, imiceri, akawunga, amabiswi, n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Mu mazu y'ubucuruzi dusangamo ibintu biba bitandukanye，dusangamo ibyo kurya，dusangamo ibyo kunywa， habamo inzoga z'amoko menshi， habamo fanta，habamo inzoga ziba zipfundikiye，ziba zarakorewe mu nganda.

Mu mazu y'ubucuruzi dusangagamo ibicuruzwa biba bitandukanye. Dusangamo ibyo kunywa. Abantu barahahurira bagasangira, bakizihirwa, bakanywa, rwose bagashira inyota, bakaganira, bakungurana ibitekerezo.

Inzu bacururizamo habamo ibintu byinshi bitandukanye dukenera mu buzima bwa buri munsi, nk'ama gaze, amazi y'inyange, aya Nil, habamo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Mu mazu y'ubucuruzi dusangamo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye dusangamo amavuta yo guteka, imiceri ,ibirayi ,kawunga, ibishyimbo ,amajeri ,n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye dusanga mu mazu y'ubucuruzi.

Haba ubucuruzi bwinshi buba butandukanye, hari abacuruza ibisheke, ibisheke ni byiza cyane, bituma imibiri yacu igira isukari, isukari y'umwimerere, itakorewe mu nganda, babicururiza ahantu haba hatandukanye, babishyira ku magare, ku mitwe, ku modoka n'ahandi henshi cyane.

Amazu y'ubucuruzi dusangamo ibintu byinshi bitandukanye, dusangamo ji z'amoko menshi haba ji zikozwe mu mbuto izikozwe muri tangawizi, habamo n'amavuta yo kwisiga ku mubiri, habamo n'ayo gushyira mu misatsi.

Mu mazu y'ubucuruzi dusangamo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye, dusangamo udutambaro tw'isuku, dusangamo na cagi, dusangamo umunyu, usangamo amavuta yo guteka, dusangamo imipira yo gukina, n'ibindi byinshi cyane.

Inzu z'ubucuruzi dusangamo ibintu byinshi biba bitandukanye ,dusangamo :ibinyobwa, ibiribwa ,dusangamo: n'ibitekwa nk'amavuta umuceri, fanta n'ibindi byinshi cyane.

Mu nzu z'ubucuruzi dusangamo ibintu byinshi biba bitandukanye, dusangamo imiti y'amatungo, ibinini by'inzoka, inshinge za vitaminini, umuti uvura ubusimba, umuti uvura indwara z'uruhu n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Mu mazu y'ubucuruzi usangamo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye. Usangamo kawunga, umuceri, ifarini, ibishyimbo, amavuta yo guteka, isukari umunyu n'ibindi byinshi cyane dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Mu mazu y'ubucuruzi usangamo ibintu byinshi biba bitandukanye usangagamo ibyo kurya. habamo ibirayi, ibitoke, ibishyimbo, umuceri ,akawunga, habamo n'ibyo kunywa. Habamo fanta, amaji, imitobe, imisururu n'ibindi byinshi cyane.

Mu nzu z'ubucuruzi habamo ibintu biba bitandukanye cyane, habamo amakara, ibitoki, abagana aho bogoshera tugakora isuku ku mitwe yacu, tukaba dusa neza cyane kuko baba badukuyeho imisatsi ituma tugaragara nabi.

Mu nzu z'ubucuruzi habamo ibicuruzwa biba bitandukanye habamo: amaji, amazi ya nire, imiceri, amasukari ,kawunga n'ibindi byinshi cyane dukenera mu buzima bwa buri munsi.

Mu nzu z'ubucuruzi habamo ibintu byinshi biba bitandukanye, bisangamo: ingofero, korogate, amasengeri, uburoso, udutambaro, ga zo gukaraba, amasaha, amarinete n'ibindi byinshi cyane.

Mu mazu y'ubucuruzi dusangamo ibintu biba bitandukanye, dusangamo amajerekani abamo amavuto yo guteka, dusangamo amata, ibiribwa biba bitandukanye, dusangamo imiceri, n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Mu nzu z'ubucuruzi hakorerwamo imirimo iba itandukanye; hari aho dusanga amacumbi yo kuraramo, wagenda wagera ahantu bwakwiriraho ukajya gucumbikayo, ukabishyura amafaranga bugacya ugasubukura urugendo rwawe.

Mu mazu y'ubucuruzi hakorerwamo ibintu byinshi biba bitandukanye, dusangamo ibyo kunywa, ibyo kurya, amacumbi yo kuraramo, amasare manini yakira ibirori, ndetse n'ubukwe, dusangamo ibyiza byinshi biba bitandukanye.

Mu mazu y'ubucuruzi dusangamo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye, dusangamo aho baraririza amagi bakayaturaga akavamo abashwi, dusangayo n'inyama z'inkoko n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Mu mazu y'ubucuruzi dusangamo ibicuruzwa biba bitandukanye: dusangamo amadegede, imyenda y'amoko atandukanye, amasengeri ,ibitambaro n'ibindi byinshi cyane ,habamo n'ibyo kunywa nk'amafanta ,amaji y'ubwoko bwinshi.

Inzu z'ubucuruzi habamo ibintu biba bitandukanye. Habamo capati, ji z' amoko menshi, amandazi, imikati n'ibyo kunywa biba bitandukanye.

Mu mazu y'ubucuruzi habamo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye, habamo amasambusa, ibiraha, capati, amandazi n'ibindi byinshi cyane, biba bikozwe mu ifarini biraryoha cyane.

Mumazu y'ubucuruzi dusangamo ibintu byinshi biba bitandukanye, habamo imyenda y'amoko menshi, abagabomo imyenda yo kurarana, iyo kurimbana, habamo uburingiti ,habamo n'amashuka yo kuryamamo, habamo n'ibindi byinshi cyane.

Mu nzu z'ubucuruzi， habamo ibintu byinshi cyane biba bitandukanye，habamo ibyo kunywa， habamo amafanta， amapirimusi，mitsingi， n'izindi zo kunywa nyinshi cyane， habamo n'ibyo barya.

Mu mazu y'ubucuruzi dusangamo ibicuruzwa biba bitandukanye, habamo amabase, amajerikani, ibicuruzwa by'isuku, dusangamo imyeyo, amabati, ibihombo, insinga n'ibindi byinshi biba bitandukanye.

Inzu z'ubucuruzi habamo ibintu byinshi biba bitandukanye dukeneraga mu buzima bwa buri munsi nk'amakara, ibishyimbo ,amavuta yo guteka, inyanya n'ibindi byinshi cyane.

Mu mazu y'ubucuruzi dusangamo ibicuruzwa biba bitandukanye, dusangamo amakara, fanta, amagi, imineke, ibishyimbo, karoti, n'ibindi byinshi cyane baba bitandukanye.

Mu mazu y'ubucuruzi hakorerwamo imirimo iba itandukanye: hari aho bogosha batunganya imisatsi, bogosha abato n'abakuru, bogosha inyogosho ziba zitandukanye bogosha abagore n'abagabo ku mitwe yacu hagasa neza cyane.

Mu mazu y'ubucuruzi dusangamo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye. Dusangamo icyayi, imikati, amata, amandazi, cyapati, igikoma, fanta n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Amazu y'ubucuruzi dusangamo ibintu byinshi biba bitandukanye, habamo amajerekani, amabase, amabati, insinga, ibikoresho by'isuku, lakelete, imyeyo n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Ku mazu y'ubucuruzi dusangamo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye usangamo gaze, amabase amasafuriya ,amashyiga ya gaze n'ibindi byinshi cyane dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Mu nzu z'ubucuruzi dusangamo ibintu by'amoko menshi bidufasha mu buryo bwo kubaho bwa buri munsi ,usangamo imyenda y'amoko menshi: amakara ,ibikapu n'ibindi byinshi cyane dukenera buri munsi.

Mu mazu y'ubucuruzi dusangamo ibintu byinshi biba bitandukanye. Dusangamo imitako y'ubwiza, dusangamo amaherena, amashapure, imikufi, impeta, urunigi, utuntu bashyira mu misatsi tukayifata n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Mu mazu y'ubucuruzi habamo ibintu biba bitandukanye hari aho dusanga serivisi z'irembo n'ibijyanye n'ikoranabuhanga, bidufasha kubona ibikoresho biba bitandukanye mudasobwa ,amakaye, impapuro, amakaramu, n'ibindi byinshi cyane.

Mu mazu y'ubucuruzi dusangamo ibintu byinshi biba bitandukanye, inkweto z'amoko menshi ,imyenda y'amoko menshi ,udukapu, dusangamo amakoti ,amakanzu ,bote ,n'ibindi byinshi cyane.

Mu nzu z'ubucuruzi, hakorerwamo ibicuruzwa biba bitandukanye, hari abo dusanga bakora ibikoresho by'ikoranabuhanga byagize ikibazo, dusangamo mudasobwa, amaradiyo, ipasi, terefone, n'ibindi byinshi cyane.

Mu mazu y'ubucuruzi dusangamo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye, dusangamo n'aho batunganya imisatsi n'abogosha tugasa neza cyane ku mitwe yacu, bashyiraho imisatsi y'ubwoko bwinshi bashiraho n'ama menshi, bafura no mu mutwe bakogosha n'inyogosho ziba zitandukanye cyane.

Mu mazu y'ubucuruzi dusangamo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye. Dusangamo ibyo kunywa n'ibyo kurya. Dusangamo umunyu, amavuta yo guteka, ji zo kunywa, inzoga z'amoko menshi, isabune za omo, impapuro z'isuku, amavuta yo kwisiga, n'amakaroni n'ibindi byinshi biba bitandukanye.

Gukorera hamwe ni byiza cyane bituma abantu bashyira hamwe bagatera imbere mu buryo bworoshye, baguzanya amafaranga bagatanga n'inyungu haba n'amabanka akorana nabo bakabaguriza bakiteza imbere bakazabishyura bashyizeho inyungu.

Amashyirahamwe ni meza cyane. Tugira amashyirahamwe aba atandukanye; haba amashyihamwe yo guhinga, amashyihamwe yo kwizigama no kugurizanya, amashyirahamwe atanga inyungu nyinshi cyane, bidufasha gukorera hamwe.

Tugira amahoteri n'amamoteri, amahoteri aba manini cyane, amamoteri aba ari mato, habamo ibintu byinshi biba bitandukanye, dusangamo ibyo kurya, ibyo kunywa, habamo n'uburiri, amacumbi, iyo umuntu ahageze ananiwe araryama akaruhuka.

Tugira amahoteli aba ahantu haba hatandukanye mu gihugu, abantu bajya baratembera bakajyayo bakajya kwifata neza haba hari ibyo kurya, ibyo kunywa hari n'uburiri ,umuntu unaniwe akajya kuryama akaruhuka neza cyane.

Tugira amahoteri menshi, haba amahoteri manini n'amahoteri matoya. Habamo ibintu byinshi biba bitandukanye, habamo ibyo kurya n'ibyo kunywa, habamo n'uburiri. Iyo unaniwe uragenda ukaryama cyangwa ufite urugendo rurerure cyane, ujyamo ukaryama ukazarusubukura ejo.

Mu masoko dusangamo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye, dusangamo imyenda y'amoko menshi iy'abakuru n'abato, dusangamo inkweto, dusangamo amasafuriya manini n'amato, dusangamo amabase n'ingofero zo kwambara mu mutwe.

Mu masoko dusangamo ibintu byinshi biba bitandukanye. Dusangamo imbuto z'ubwoko bwose . Dusangagamo amacunga, imyembe ,avoka, inanasi . Dusangamo imyenda y'amoko menshi . Dusangamo ibiribwa by'ubwoko bwinshi .Dusangamo amandazi n'ibindi byinshi cyane.

Mu masoko dusangamo ibintu byinshi biba bitandukanye dusangamo ibiribwa, dusangamo amateke, imyumbati ,ibijumba, ibishyimbo, imyungu, ibirayi, ibitoke n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Mu masoko, dusangamo ibintu byinshi biba bitandukanye, dusangamo ibirungo twifashisha mu guteka, ibijumba, amavuta, ubunyobwa, amafu, ibitunguru, ibirayi, amakaroni, n'ibindi byinshi cyane.

Mu masoko dusangamo ibiribwa byinshi biba bitandukanye, usangamo imyumbati, ibijumba, ibirayi, amateke, ibishyimbo, kawunga, imiceri, inkweto zo kwambara, n'ibindi byinshi cyane. Habamo n'imbuto, imyembe, habamo n'imboga z'ubwoko bwinshi nk'amakaroti, amashu, n'ibindi byinshi cyane dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Mu masoko dusangamo ibintu byinshi biba bitandukanye. Dusangamo imitobe iba yaranyujijwe mu nganda igafungwa mu macupa aba atandukanye. Haba amanini, hakaba n'amatoya.

Mu masoko dusangagamo ibintu byinshi biba bitandukanye, dusangagamo n' ibikoresho by' ikoranabuhanga biba bitandukanye, dusangagamo televiziyo, telefoni nini n' intoya dusangagamo bafule, dusangagamo mikoro, dusangagamo ingoma n' ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Mu masoko habamo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye: Habamo inkweto z'amoko menshi, amavuta yo kwisiga n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Mu masoko dusangamo ibintu byinshi biba bitandukanye habamo: imbabura, ibyuma, amasafuriya, amabase, indobo, ibiseke n'ibindi byinshi cyane dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Mu masoko dusangamo ibintu byinshi biba bitandukanye, dusangamo imyenda y'amoko menshi, dusangamo amashati, amapantaro, amakanzu, amajipo, dusangamo n'uburingiti bwo kwiyorosa, n'amashuka yo kuryamamo.

Mu masoko dusangamo ibintu biba bitandukanye, usangamo imyenda y'amoko menshi, dusangamo uburingiti bwo kwiyorosa, dusangamo amashuka yo kuryamamo, dusangamo inkosha, dusangamo imyenda y'amoko menshi y'abana n'abakuru, dusangamo imitaka n'ibindi byinshi.

Mu masoko dusangamo ibintu byinshi biba bitandukanye. Dusangamo ibyo kurya; intoryi, karoti, pavuro, ibijumba, ibitoki. Habamo n'udufuka, abahashye baratugura bagatwaramo ibyo.

Mu masoko bacururizamo ibintu byinshi biba bitandukanye . Dusangamo inkweto z'amoko menshi ,ibikapu, imyenda y'amoko menshi n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Ku masoko dusangayo ibintu byinshi cyane biba bitandukanye, dusangayo umunyu, biswi, ji, imitobe, kawunga, umuceri n'ibindi byinshi dukenera mu buzima bwa buri munsi.

Mu masoko usangamo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye habamo: biswi z'amoko menshi, amavuta yo kwisiga, habamo n'udukoresho tw'isuku bogesha amasafuriya bakayakuba bagacya agasa neza cyane rwose.

Mu masoko habamo ibintu byinshi biba bitandukanye habamo imyenda y'amoko menshi, inkweto zitandukanye habamo ibiribwa by'amoko menshi, imboga ndetse n'ibindi biribwa byose bikenerwa ugeze mu isoko wabisangamo.

Mu masoko dusangamo ibintu byinshi biba bitandukanye, dusangamo ibiribwa, dusangamo ibijumba, ibirayi, ibitoke, ibishyimbo, dusangamo n'udufuka, n'ibindi byinshi cyane dukenera mu buzima bwa buri munsi.

Mu masoko habamo ibiribwa bigiye bitandukanye, habamo indagara, indagara zororegwa mu maz,i bakaziroba bakazitunganya bakazijyana mu isoko, izindi bakazirya bakabona amafaranga, yo gukemura ibindi bibazo, indagara ni nziza cyane, zubaka umubiri zituma tugira ubuzima bwiza cyane.

Mu masoko dusangamo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye, dusangamo amadegede, dusangamo ibirayi, imyungu imyumbati, ibitoke, ibishyimbo, amasaka, n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye dukenera mu buzima bwa buri munsi.

Mu masoko dusangamo ibicuruzwa biba ari byinshi cyane. Dusangamo kanta z'amoko menshi; habamo kanta z'amavuta, kanta z'ifu bazishira mu musatsi, haba na kanta z'amazi bashira mu musatsi ukaba umukara, ukaba mwiza cyane.

Mu masoko tugiramo ibintu byinshi cyane biba bitandukanye, dusangamo ibitenge, ibitambaro, amashati, amajipo, amapantaro, habamo n'abadozi badoda iyo myenda, bakayivanamo ikindi kintu, nk'amaribaya y'abagore, n'ibindi byinshi.

Mu masoko dusangamo ibintu byinshi biba bitandukanye, usangamo imbuto z'amoko menshi, usangamo imyembe, imineke, ibihaza. Imbuto ni nziza cyane ku buzima bwacu biba mu birinda indwara.

Mu masoko usangamo ibiribwa biba bitandukanye dusangamo amashu. Amashu n'imboga nziza cyane baziteka bazivanze n'ibindi biryo. baziteka bazivanze n'ibishyimbo ziraryoha zibaga mu birinda indwara.

Mu masoko dusangamo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye biba ari byiza cyane dusangamo; imyenda z'amoko menshi, dusangamo amakanzu, amapantaro, amajipo amashati, ibikapu, uburingiti bwo kuryamamo n'amashuka yo kuryamamo.

Mu masoko dusangamo ibintu byinshi biba bitandukanye dusangamo amavuta y'ubwoko bwinshi. Habamo amavuta yo mu misatsi, amavuta yo mu mutwe, amavuta yo kwisiga ku ruhu, amavuta y'abana, amasabune siraje yo gusiga inkweto, n'ubundi bwoko bwinshi cyane bw'amavuta.

Mu masoko dusangamo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye, usangamo amavuta y'amoko menshi, ayo kwisiga ku mubiri, ayo kwisiga mu mutwe, dusangamo n'amasabune, dusangamo n'ingufuri n'ibindi byinshi cyane dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Mu masako dusangamo, ibintu biba bitandukanye, dusangamo amazi yo kunywa, dusangamo amazi ya niri, aba yaratunganyijwe yaranyujijwe mu ruganda, ashirwa mu macupa ma nini n'amatoya, aba atandukanyije ingano.

Mu masoko dusangamo ibicuruzwa biba bitandukanye. Dusangamo ibiribwa, dusangamo imiceri, kawunga ,inanasi, imiteja, ibitunguru, umunyu, ibirungo n'ibindi byinshi cyane dukenera mu buzima bwa buri munsi.

Mu masoko usangamo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye, usangamo ibyo kurya harimo: pavuro, imiteja, ibitoki, ibirayi, imyumbati, ibijumba n'ibindi byinshi cyane dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Mu masoko dusangagamo ibiribwa biba bitandukanye, dusangamo imboga, amajyeri, ubunyobwa, inyanya, karoti, intoryi, ibirayi, imyumbatii, bishyimbo, voka, n'ibindi byinshi cyane dukenera, mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Mu masoko dusangamo ibintu biba bitandukanye, dusangamo imyeyo; barawugura, bakawujyana mu rugo, bakajya bawukubuza, bakigizayo imyanda, ugasanga ahantu harasa neza, hafite isuku rwose.

Mu masoko dusangamo ibicuruzwa byinshi biba bitandukanye. Usangagamo imineke, amacunga, imyembe, imyeyo, amashu, ibijumba, ibirayi, n'ibindi byinshi cyane biba bitandukanye.

Mu masoko dusangamo ibiribwa by'amoko menshi biba bitandukanye. Dusangamo imboga z'ubwoko bwinshi. Habamo intoryi, imiteja, imboga nziza cyane ziba mu birinda indwara. Baraziteka bakazirya, ziba ziryoshye.

Ku masoko usangaho ibiribwa byinshi biba bitandukanye, usangaho igitoki, igitoki ni cyiza cyane baragiteka bakakirya, habamo n'ibyo bakama bakavanamo umutobe n'inzoga biraryoha cyane rwose.

Mu masoko dusangagamo ibiribwa bibaga bitandukanye dusangagamo imboga z'ubwoko bwinshi, dusangagamo isombe barayisekura cyangwa bakayibitesha bakayiteka bakayijya ibaga ijyoshe ibaga mubirind'indwara.

Mu masoko dusangamo ibintu byinshi biba bitandukanye， usangamo amavuta yo kwisiga， ayo guteka，umunyu，ibishyimbo， amafu atandukanye， ay'amasaka， ay'ubunyobwa n'ibindi byinshi cyane，ukenera mu buzima bwa buri munsi.

Mu masoko dusangamo ibintu biba bitandukanye, dusangamo ibikoresho byinshi , dusangamo inkoko, dusangamo amapanu, dusangamo amabase, dusangamo ibikombe, dusangamo ibipipa dushyiramo amazi, cyangwa tugataramo inzoga.